Icyumba cy'inama cyicayemo abagabo n'abagore benshi bambaye mu buryo butandukanye. Bafite impapuro n'ikaramu, bari kwandika. Hakaba hari abicaye ku ntebe zitukura. Imbere yabo hari amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abagore bane, babiri bambaye imipira y'umuhondo, bicaye ku ntebe ziguyeho ibitambaro by'umweru mu mahema, imbere yabo hari meza iteguyeho ibitambaro bivanzemo ubururu, icyatsi, n'umuhondo, hateretseho n'agacupa k'amazi.

Umugore wambaye igitenge ndetse ufite n'indangururamajwi akaba ahagaze imbere y'ihema ririho amabara y'umuhondo ubururu n'icyatsi ryicawemo n'abantu batandukanye imbere yabo hari ameza ariho amazi y'inyange.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gifite inkuta zisa n'umweru n'amadirishya yinjiza urumuri, harimo abagabo, abagore ndetse n'umusirikare umwe wicaranye n'abandi bagabo babiri n'umugore umwe ubari hagati, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umukara ndetse n'icyatsi,, hejuru yaho hateretseho amazi n'umutobe.

Umugabo wambaye ikote ryivu n'ipantaro y'ubururu n'inkweto zisa nigitaka, afite indangurura majwi ahagaze imbere y'imbaganyamwinshi Ari kuyigezaho ingengo y'imari n'imihigo.

Icyumba k'inama kicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umukara bamwe bafite mudasobwa imbere yabo ndetse hakaba hari n'uducupa tw'amazi yo kunywa tw'inyange imbere yabo.

Abagore bicaye mu ntebe ziri mu nzu bose baratumbereye imbere bafite akanyamuneza ku maso imbere yabo hari umuntu uri kubabwira ibintu bose bateze amatwi bari kumwenyura.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umweru, wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati itukura, akaba ari kuvugira ku ndangururamajwi, yambaye n'amadarobindi y'umukara.

Umugabo usa nkumunyamahanga wambaye ikoti ry'umukara w'umuzungu akaba yicaranye nundi w'umwirabura wambaye ikoti risa na kake, bakaba bari kumwe numugore bicaye, imbere yabo hari uducupa twamazi y'inyange ndetse uwo mugore akaba yambaye namarinete yifashe kumunwa.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hateretse amakayi n'ikaramu, ndetse n'uducupa tw'amazi y'inyange.

Amahema atatseho amabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi; arimo intebe z'umweru zikaba zicayeho imbaga nyamwinshi; irimo abagabo n'abagore bambaye bitandukanye, ndetse bo mu kigero gitandukanye.

Icyumba kinama cyicayemo abagabo batanu imbere yabo hari mudasobwa hateretse n'amazi yo kunkwa y'uruganda rw'inyange.

Icyumba cy'inzu cyicayemo abagabo, gifite ameza ndetse n'intebe zo kwicarwaho zegamirwa, ameza hateretseho uducupa tubonerana, turimo amazi yo kunywa. Utu ducupa dufite imifuniko isa n'ubururu.

Icyumba cy'inama kicayemo abantu bagera kuri umunani, imbere yabo hari mudasobwa n'icupa ry'amazi ndetse niry'umutobe.

Imbaga nyamwinshi yivanzemo abagabo n'abagore bicaye imbere yabo bahagaze umudamu wambaye ishati y'umutuku afite indangururambajwi ariko bagezaho ubutumwa.

Abagore batatu bahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, umwe yambaye imikenyero ya kinyarwanda, undi yambaye ibitenge, undi yambaye umupira w'umweru n'ijipo. bari kwifotoza bafite igipapuro cy'umweru mu ntoki zabo.

Icyumba cyahuriyemo abantu benshi bambaye neza imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse n'ibikombe hakaba hari n'ibitabo imbere yabo harimo amatara y'umweru.

Icyumba gisizemo amarangi y'umweru cyagenewe gukorerwamo inama, hakaba hicayemo abantu benshi harimo abagabo n'abagore, bamwe bakaba bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa hateretse n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, y'amaboko maremare, wicaye mu cyumba giteraniyemo abandi bantu biganjemo abagabo, yicaye kumeza ariho utwapa twanditseho ferwaba.

Ameza ariho igitambaro cy'ubururu, imbere yayo hicaye abantu bagera kuri batanu, abagabo batatu n'abagore babiri, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'inyange ndetse n'impapuro zo kwandikaho.

Utubido ndetse n'uducupa, bishyirwamo amata y'ikivuguto, kugira ngo abayakeneye bayaguriremo, bikaba biri mu rugero rutandukanye, harimo ibya litiro ndetse n'iby'inusu.

Umukobwa n'umugabo, umukobwa wambaye ikoti ry'umutuku, umugabo yambaye ikoti ry'umukara ririmo uturongo tw'umweru, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi n'ibitabo ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo abantu bagera muri batanu, harimo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'inyange ndetse bari kureba ku nsankazamashusho iri imbere yabo.

Icyumba gikorerwamo inama cyicayemo abavanzemo abirabura n'abazungu, imbere yabo hari impapuro zo kwandikaho, bafite ikaramu mu ntoki zabo ndetse hanateretse amacupa y'amazi y'Inyange.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore benshi, imbere ya bo hari amacupa y'amazi y'inyange, hari n'ibitabo bari kwandikamo.

Imbaga nyamwinshi ivanzemo abagabo n'abagore imbere hicaye abantu batanu abagore batatu n'abagabo babiri kuntebe z'umukara, imbaganyamwinshi yo yicaye kuntebe z'icyatsi.

Ucyumba gikorerwamo inama kirimo ameza atukura, hicayeho abantu batatu, abagore babiri bambaye amakoti y'ubururu ndetse n'amashati y'umutuku, n'umugabo wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'ubururu, imbere yabo hateretse amazi ari mu icupa ry'inyange.

Abagabo n'abagore bicaye mu cumba cy'inama, ku dutebe tw'umweru dukoze mu cyuma dufite igice cyegamirwa gikozwe mu misego. Imbere yabo hari za mudasobwa ndetse ku meza bicayeho hateretseho n'uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye ku ntebe harimo abagabo babiri n'abagore babiri umwe w'umuzungu abandi bose ni abirabura, imbere yabo hakaba hateretse icupa ry'amazi y'Inyange ndetse n'ibikombe bafite amakaramu mu ntoki zabo bari kwandika ku mpapuro.

Inzu yicayemo abantu, benshi barimo abirabura ndetse n'abazungu, bicaye ku meza ariho amazi yo kunywa, ari mu gacupa kabonerana, gafite umufuniko usa n'ubururu, imbere yabo hari utwapa twanditseho imibare y'ameza bicayeho.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo amarangi y'umweru cyikaba kicayemo imbaga yiganjemo abagabo bambaye bitandukanye bafite ibitabo n'amakaramu mu ntoki zabo bakaba bicaye bari gukurikirana ikiganiro.

Umugabo wambaye ishati isa nigitaka yambaye amadarubindi y'umukara akaba yicaye mucyumba cy'inama imbere yateretse ikaramu ndetse n'ikayi n'icupa ry'amazi y'inyange inyuma ye hicaye abandi bantu benshi babanjemo abagabo n'abagore.

Icyumba gikorerwamo inama hicayemo abagabo benshi imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'ibikombe, hakaba harimo umugabo wambaye ishati w'umwirabura ndetse ufite n'indangururamajwi.

Abagabo bane bicaye mu ntebe umwe yambaye umupira w'imbeho n'ipantaro y'umweru, undi yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'icyatsi, undi yambaye umupira wa undi yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, inyuma yayo hakaba hari isakaza mashusho.

Umugabo wambaye ikoti ry'amabara atandukanye hirya ye hakaba hari umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'amadarubindi bari mu cyumba bicaye harimo n'abandi bantu benshi, imbere yabo hakaba hari amazi yo kunywa y'ubwoko bw'Inyange.

Urubyiruko rurimo abasore n'inkumi bicaye bazengurutse kumeza y'uruziga, bambaye imipira y'umweru, imbere yabo hari uducupa tw'amazi y'inyange, hari n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye mo imbere mu nzu ifite ibirahure byinjiza urumuri, bicaye ku ntebe baratuje bose bari gutumbira imbere yabo.

Mu nzu mu cyumba gikorerwamo inama harimo ameza azengurutswe n'intebe zegamirwa zisa n'umukara, hicayemo abantu barimo abagabo n'abagore, ifite inkuta ndetse n'amadirishya ariho ibitambaro bitangira urumuri kwinjira mu nzu igihe rudakenewe mo imbere igihe amatara ari kwaka.

Icyumba gikorerwamo inama, cyicawemo n'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe zisa n'ivu nziza.

Umugabo wambaye ishati y'umuhondo n'amadarubindi ari kumwe n'abagore babiri. Umwe yambaye ikote risa n'ivu, undi yambaye ikote ry'umukara, imbere yabo hateretse amazi ari mu icupa ry'inyange.

Inzu irimo abantu benshi bicaye kuntebe ziriho ibitambaro by'umweru nameza ateguyeho ibitambaro by'umweru, bavanzemo abagabo n'abagore imbere yabo hateretse amacupa yamazi ndetse bafite n'indangurura majwi.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru, umukara n'umutuku yambaye n'ikoti ry'umukara afite indangururamajwi mu ntoki ze akaba yambaye n'amadarubindi y'umukara.

Inzu ikorerwamo inama irimo abantu b'abagabo ndetse n'abagore; bicaye ku meza atukura ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'inyange.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo abagabo bicaye ku meza azengurutse. Bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye imyambaro itandukanye ndetse imbere yabo hari uducupa tw'amazi y'inyange.

Imbaga nyamwinshi ihagaze mu gitaka ahantu hasa no mu kibuga, harimo abagabo n'abagore bambaye bitandukanye bakoze uruzigamo mo hagati yabo harimo umugabo ufite indangururamajwi ari kubagezaho ubutumwa cyangwa se amakuru.

Inzu ifite sale y'inama hicayemo abantu batandukanye, bafite za mudasobwa bari gukoresha, inzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hari urukuta ruriho icyuma gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umugore w'inzobere wambaye amadarubindi y'umukara akaba afite indangururamajwi mu maboko ye yambaye ikoti rivanze amabara umuhondo umweru n'ubururu n'umukara,, akaba yicaye ku ntebe iteguyeho igitambaro cy'umweru imbere ye hari ameza ateretseho icupa rya'mazi igitabo ndetse n'ikaramu.

Umusore wambaye amadarubindi y'umukara n'ingofero y'ubururu, yambaye umupira w'umweru afite mudasobwa mu biganza bye, ahagaze.

Imodoka ihagaze imbere y'amaduka ahacururizwa ibiribwa nk'ibitoki kuruhande hakaba hari moto iparitse itariho umuntu hakaba hari n'abantu bari kugenda umwe wambaye umupira w'imbeho undi akaba yambaye ishati y'umeru.

Umugabo w'umuzungu n'umwirabura bahagararanye mu nzu irimo intebe ndetse n'utumeza duteretseho imashini za mudasobwa ziri kwaka ibara ry'ubururu.

Intambwe ya mbere igana urubuga rw'irembo ahanditse porisi ibisabwa ,usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka iri hejuru imyaka cumi n'itandatu ,abasaba bagomba kugira nimero ya terefone cyangwa aderesi ya imeri bikora kugira ngo bakire imenyesha.

Kurikira ikiganiro cy ikigo cy'imisoro n'amahoro, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ni mirongo itatu n'imwe z'ukwacumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Mo imbere mu nzu hicayemo abagore n'abakobwa, bafite za terefoni mu ntoki, zabo bari gufata amashusho, bose bambaye udupfukamunwa dupfutse umunwa n'amazuru.

Amahema y'umweru atatse ibara ry'umutuku arimo ibicuruzwa hakikijwe n'inzu zigeretse incuro zirenga icumi.

Umunara wubakishijwe ibyuma, uri mu ruzitiro rukoreshejwe ibyuma, rumanikwaho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho by'umweru, ndetse uwo munara ukaba ufite amabara y'umweru n'umutuku, hasi hakaba hari ibindi bikoresho bifasha uyu munara kubona umuriro w'amashanyarazi.

Serivise nshya ku rubuga rw'irembo, ikigo gitanga serivise, icyiciro, ubushakashatsi n'ibarurishamibare, amazina ya serivise, raporo yo gutangaza ubushakashatsi, kwemeza kongerera igihe viza y'ubushakashatsi.

Abana bambaye impuzankano y'amashati asa n'umweru, bicaye mu cyumba gikoresherezwamo za mudasobwa ku bigo by'amashuri, ziteretse ku ntebe z'ibiti zicarirwa, zifite n'akameza, izo mudasobwa ziri mu mabara y'icyatsi n'umweru.

Umugabo uhagaze kumuhanda yambaye ikabutura y'umweru ivanze n'ubururu akaba yifashe kumunwa asa nk'uri kuvugira kuri telefoni, inyuma ye hakaba hari akazu kicayemo umuntu ucunga umutekano ndetse n'undi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu.

Abantu barimo kugenda n'amaguru, mu muhanda utajya unyurwamo n'imodoka. Bakikijwe n'amagorofa, arimo iyo kwa Makuza ndetse n'iy'inyubako y'icyicaro cya Banki ya Kigali.

Umunsi umwe niwo usigaye kugira ngo umenyekanishe umusoro wawe, Menyekanisha umusoro wawe nonaha wishyure mbere yuko umunsi wayuma urangira.

Urubuga rwa rura urubuga ufungura konti nshyashya aho gushyira amazina, aho gushyira aderesi ya imeri naho gushyira nimero za telefone ubundi ugakora konti.

Mudasobwa ifunguye, irimo urubuga rw'irembo, akaba ari urubuga rufasha abanyarwanda kubona ibipapuro bitandukanye, harimo nk'igipapuro cyangwa icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko uri ingaragu, ndetse n'icyemezo cy'uko washatse.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, imbere hari ishati ya karokaro, yambaye amadarubindi, yicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa. Ari gukoresha urubuga rw'irembo, rukoreshwa mu kwishyura ndetse no kureba imisoro.

Abagabo bicaye imbere yabo hari ameza hateretseho mudasobwa ni abagabo icyenda, batandatu bambaye imipira y'umukara, batatu bambaye imipira y'umweru.

Akazu kubabakishijwe utwuma dufite amarangi y'umuhondo umweru n'ubururu, mo imbere hicayemo umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ku ntebe y'umukara, imbere y'utwo twuyuma dukoze iyo nzu, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umuhondo.

Umunsi umwe niwo ubura kumenyekanisha imisoro itaramenyekanishijwe muri bibiri na makumyabiri nagatatu, ubundi ntihagire ingaruka, cyangwa ibihano muhura nabyo, cyangwa ubwishyu bw'uko watinze. Umunsi wa nyuma ni makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi, bibiri na makumyabiri na kane.

Umugabo wicaye yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati, n'undi uhagaze wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, n'ingofero y'ubururu, uwicaye imbere akaba afite mudasobwa ndetse n'icyuma gikoreshwa gifotora impapuro.

Icyuma kirekire gishinzwe mu butaka cyubatswe mu buryo bw'umunara gifasheho insinga z'amashinyarazi zijyana mu ngo z'abantu ndetse n'ahandi.

Hanze ku zuba ku muhanda wegereye sitasiyo, hari abantu bari kugenda n'amaguru ndetse n'abandi bari kugenda n'amapikipiki atukura. Sitasiyo itangirwaho risansi zijya mu binyabiziga nka moto cyangwa amamodokari.

Igiti gishinzwe ku muhanda gifasheho insinga z'amashanyarazi zerekeza mu ngo z'abantu kikaba gikikijwe n'ibindi biti biriho amashami y'icyatsi.

Imodoka y'umutuku iri kugendera muri kaburimbo inyuma yayo hari umuntu wambaye umupira w'umutaka, imbere yayo hari icyapa cya rege cy'iremera hakaba hari kubakwa n'inzu nshyashya itaruzura.

Ipoto y'icyuma ishinze ku butaka, imanitseho insinga zitwara amashanyarazi, iruhande rwayo hari indi poto ishinze ku butaka, imanitseho icyuma gikoreshwa mu gucunga umutekano w'ibinyabiziga n'abagendera mu muhanda, cyitwa kamera. Kirasa n'umweru.

Igikoresho cy'umweru, gifasheho insinga z'amashanyarazi, gikoreshwa igihe bakupa umuriro, bakeneye kuwukora, cyangwa habaye ikibazo.

Umunara ukozwe mu byuma bishinze ku butaka bisobekeranyije bikoreshwa mu kunyuzaho insinga z'amashanyarazi ahuza uduce runaka, amashanyarazi akoreshwa mu ngo mu gucomeka ibyuma by'ikoranabuhanga, mu nganda mu gucomeka ibyuma bikora imirimo itandukanye nko gusya, kwandika n'ibindi byinshi.

Igiti gishinze ku muhanda gifasheho insinga z'amashanyarazi, giteyeho amatara amurika mu muhanda kegeranye n'urugo.

Igiti k'ipoto gishinze ku butaka kinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, kiri iruhande rw'ibihingwa birimo igisheke, imbere yaho hari urugi rukozwe mu mabati asa n'umutuku.

Isangano ry'imihanda umuhanda uzamuka hari imodoka y'umweru ifite umwanya w'inyuma uhekwamo imizigo, imbere yayo haparitse abayobozi b'amapikipiki bambaye amajire y'umweru, impande yabo hari akayira k'abanyamaguru kagendwamo n'abanyamaguru.

Amapoto ashinze ku muhanda afasheho insinga z'amashanyarazi ziganisha ku yandi mapoto cyangwa se zikajyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abantu.

Imodoka itwara abagenzi y'umweru iriho ivumbi ryinshi cyane, hirya yayo hakaba hari igiti gishinze kimanitseho itara rimurika mu muhanda igihe bwije ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Imbere y'inzira nyabagendwa iri kugendwamo n'umuyobozi w'ipikipiki, uhetse agasanduku gatwarwamo ibishyiriwe abakiriya gasa icyatsi, kanditseho "vuba vuba", hashinze ibiti by'amapoto bitwaye umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ipiiloni itwara umuriro w'amashanyarazi.

Abantu bari mu kazi gatandukanye, bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero zibarinda, z'umuhondo, bari gukora mu mashini y'amashanyarazi.

Ipoto rishinze hasi mu gitaka rimanitseho insinga z'amashanyarazi agana, zigana ku yandi mapoto cyangwa se mu ngo z'abaturage, kikaba gikikijwe n'ingo z'abantu ndetse n'ibiti.

Igiti gishinze ku muhanda cyegeranye na rigori bamanikaho insinga z' amashanyarazi ajyana ku yandi mapoto, cyangwa se mu ngo z' abandi.

Umuhanda w'igitaka ushinzemo icyapa kirekire cyanditseho ibitaro bya kabgayi nicyo kigaragaza aho ibitaro bya kabgayi biherereye binatangirira.

Umugore wambaye ishati y'umweru nipantaro y'icyatsi imyenda yabaforomo uri kugendera m'umuhanda w'umukara, iruhande rwe hari pasuparumu iteyemo indabyo n'igiti.

Ikirongozi cyubakishijwe amatafari ya rukarakara kirimo imiryango myinshi itandukanye hakaba hariho n'ahari udutebe abantu bicaraho igihe bategereje ubafasha.

Umuhanda w'igitaka urimo umugore wambaye umupira w'imbeho n'igitenge, hakaba hahagaze imodoka nyinshi hakikijwe n'amazu ndetse n'ibiti.

Inzu igeretse inshuro imwe ikaba isize irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru, imbere yayo hakaba hari ubwatsi ndetse ikaba ifite n'igikoresho gikoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro cyifashishwa mu kuwuzimya.

Umuhanda w'umukara, uri kugenderamo abanyamaguru, ndetse no ku ruhande rwawo hahagaze ibinyabiziga, harimo iby'umweru, iby'umutuku, ndetse hakaba harimo n'ibinyabiziga bitwara abagenzi, igihe bashatse kugera aho bashaka.

Akagare kagenderamo abafite ubumuga ndetse hakaba harimo umuntu wicayemo yambaye umupira wumuhondo.

Umugabo uri kugendera mu kibuga yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro isa n'igitaka n'inkweto z'umukara imbuga iparitsemo imodoka y'umweru hirya yayo hari ikigega gifatanye naho bakarabira.

Umugabo wirabura wambaye imyenda y'iroza y'imfungwa, inyumaye hakaba hari imodoka isa kacye ifite amatara y'umutuku.

Umugabo, w'umwirabura, wambaye amadarubindi y'umukara, ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvate y'ubururu, imbere ye hakaba hari amazi yo kunywa, yo mu bwoko bw'inyange.

Abacamanza bambaye imyenda y'umutuku ivanzemo n'umukara n'ingofero z'umutuku n'umukara, harimo abagabo n'abagore bamwe bambaye amadarubindi y'umukara, hari n'abandi kuruhande rwabo bambaye imyenda y'umukara n'umweru akaba ari abavoka.

Umugabo wambaye imyenda y'iroze, y'imfungwa ahagaze imbere y'abanyamategeko. Hari abavoka bambaye imyenda y'umukara n'umweru, hari n'uwicaye afite igitabo imbere ye.

Abagabo benshi bambaye imyenda y'iroze y imbohe, bakaba bari ku murongo bakikijwe n'abandi bambaye imyenda ya kaki babarinze, kugira ngo badatoroka, bari kuva mu modoka zisa kake z'imfungwa.

Ibikarito bitondetse mu kabati byegeranye bifite ibara risa na kake hometseho udupapuro twanditseho ibintu. Ibikarito ubusanzwe bibikwamo ibintu nk'ibitabo se, amakaye ndetse n'ibindi byinshi.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku, n'ingofero y'umukara, ahagaze imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, arifasheho yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo, ari kuvuga indahiro.

Abagabo b'abirabura bambaye imyenda y'iroze y'imfungwa cyangwa imbohe, bicaye ku nzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara iriho icyuma kizimya umuriro igihe habaye inkongi.

Umugabo wambaye imyenda y'iroze, ahagaze mu cyumba cy'inama aho bacira imanza. Hirya ye hari umu avoka we wambaye imyenda y'umukara n'umweru, imbere yabo hari imeza ngari yicayeho abacamanza.

Abagabo benshi bambaye imyenda isa n'icunga y'imfungwa, inyuma yabo hari umugabo wambaye imyenda ya kacyi ucunga umutekano, bakaba bari imbere y'inyubako ndende cyane yanditseho 1930.

Umugabo w'umwirabura wambaye amadarubindi y'umukara yambaye imyenda y'abacamanza y'umutuku ndetse n'umuhondo n'umukara inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Icyumba gikorerwamo inama kicayemo abagabo bambaye imyenda y'iroze byerekana ko ari imbohe, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari abacamanza bambaye imyenda y'umukara n'umweru, imbere yabo hateretse za mudasobwa.

Umugabo wirarabura wambaye imyenda y'abacamanza irimo umuhondo n'umutuku, akaba ahagaze yemye, akaba ahagaze imbere y'igikuta cy'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'irose y'imfungwa cyangwa se imbohe akaba ahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi harimo abasaza n'abakecuru bamwe bafite n'inkoni bagenderaho akaba ahagaze imbere yabo.

Umugore w'umwirabura wambaye amadarubindi y'umukara akaba yambaye ikanzu itukura, inyuma ye hakaba hari urukuta rw'umweru.

Umugore w'umucamanza wambaye ikanzu y'umutuku n'umweru uhagaze imbere y'indangururamajwi wambaye amadarubindi y'umukara n'ingofero, akaba azamuye ikibanza cye kiburyo.

Umugore wicaye mu ntebe y'umukara wambaye ikote ry'ubururu imbere y'ameza ariho igitabo n'impapuro hakaba hariho ikirahure ndetse n'agacupa kamwe karimo amazi y'Inyange, akandi karimo umutobe w'umwembe w'Inyange.

Umugabo wambaye ikanzu ifite amabara atukura ishati y'umweru mo imbere ndetse, ikanzu ifitemo amabara y'umukara iyi kanzu yambarwa n'abantu bashinzwe amategeko.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi n'ikote n'ishati y'umweru na karuvate wambaye amapingu kubiganza bye, afashwe n'umugabo w'umuzungu wambaye amarinete, ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo wirabura wambaye ikanzu y'umutuku y'abacamanza inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Icyumba cy'inama kirimo abacamanza, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'iroza y'imfungwa, ku mpande ze hari ab'avoka bahagaze ku mpande ze.

Inzu yicawemo n'abagabo n'abagore bambaye ibitambaro bizengurutse ijosi bigafata mu mayunguyungu biri mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu, mu bururu handitsemo ijambo komite, imbere yabo hari impapuro n'ibitabo bari kwandika.

Umugabo wirabura wogoshe ku mutwe wambaye amadarubindi mu maso, n'imyenda igenerwa imfungwa z'u Rwanda isa n'iroza yicaranye ku ntebe n'abagabo babiri bashinzwe kuburanisha.

Abantu bane bambaye amakote y'umukara, ku ruhande rwabo rw'ibiryo n'ibumoso hari idarapo ry'Urwanda bazamuye ibiganza byabo bari kurahira, imbere yabo hicaye umucamanza wambaye ingofero y'umweru ndetse n'ikanzu y'umutuku.

Mu nzu harimo intebe zikoze mu mbaho ndende zifite aho zegamirwa, umugabo yicaye hagati y'abantu bashinzwe amategeko babiri bose bambaye udupfukamunwa, umugabo yambaye agapfukamunwa k'umweru.

Umugabo w'umwirabura ufite indangururamajwi imbere ye akaba yambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu na karuvate akaba yicaye ku ntebe y'umukara.

Umuntu ushinzwe amategeko yo mu muhanda, yambaye ikote ry'icyatsi kibisi, ari ku ipikipiki y'abashinzwe umutekano ndetse n'amategeko yo mu muhanda, ari kuyitwarira mu muhanda w'umukara, hirya ye hari imodoka ihagaze ku ruhande y'umuhanda.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara ya giporisi ahagararanye n'undi wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu n'inkweto zifunguye bahagaze imbere y'umuhanda.

Kizimya muriro y'umutuku ndetse n'iy'umweru n'umugozi muremure wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro.

Ikarito yavuyemo igikoresho gikoreshwa kizimya umuriro, nacyo kikaba kiri imbere y'ikarito gisa umutuku, kikaba giteretse hasi ku ruhande.

Umugabo uhagaze hanze wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda, yanditseho ijambo police mu mugongo isa n'umukara, ifite utubara dusa n'icyatsi mu mugongo, iruhande rwe hari icyapa gisa n'umutuku cyanditsemo ijambo sitopu, gisobanura hagarara ku muyobozi w'ikinyabiziga.

Abakozi babishinzwe, babifitiye n'uruhushya, bambaye imyambaro y'ibisaruveti byo mu mabara y'umukara, harimo n'utundi tubara dusa n'icyatsi, bafite igihombo giturukamo amazi, bigaragara ko bari kuzimya umuriro.

Igikoresho gikoreshwa mu kurwanya inkongi y'umuriro gikozwe mu icupa risize irangi ry'umutuku, gifite umupira n'akantu ko gukandaho hejuru giteretse ku nzu ishashemo amakaro.

Imodoka ihagaze ifite amatara ane imbere yo mu bwoko bwa toyota ifite nimero iyiranga ya R na P kabiri kabiri kane ni iy'abapolisi.

Igikoresho cy'icupa gikoze mu cyuma gisa n'umutuku gifite umupira n'akantu ko gukandaho kimanitse ku gikuta gisize amarangi y'umweru, iki gikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ingofero mu mutwe, akaba yambaye ipantaro y'ubururu bufashe, akaba ahagaze, akaba ari imbere y'inzu ndende igeretse, imbere yayo hakaba haparitse imodoka z'abapolisi.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yambaye ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu na karuvati y'ruru ishati y'umweru yicaye hagati y'umugaboumugabo wambaye imyenda y'umweru ndetse n'umugore wambaye imro inyuma yabo hahagaze abandi bantu barindwi.

Abagabo babiri bambaye amakoti n'amadarubindi y'umukara bakaba bambaye amakoti y'umukara ndetse amashati y'umweru na karuvati n'amapantaro y'umukara, bakaba bahagaze imbere y'idarapo ry'u Rwanda bafite ibitabo by'umutuku mu biganza byabo.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara' ipantaro y'umukara ishati y'amaboko maremare ndetse n'amadarubindi usa ni inzobe ni muremure ni perezida wi'igihugu cy'u Rwanda akaba ari umukandida w'ishyaka rya efuperi.

Utwapa dukoze mu mpapuro turiho amabara y'umutuku, umweru n'ubururu twanditsemo inyuguti nka efuperi, bisobanuye ishyaka rya efuperi iri ni ishyaka perezida w'igihugu cy'u Rwanda abarizwamo, abaturage bazamuye utwapa hejuru barishimye.

Umugore wicaye mu ntebe y'umweru, yambaye imyenda y'umukara. Afite ikaramu n'igitabo mu biganza bye. Yambaye amadarubindi y'umukara. Imbere ye hari indangururamajwi.

Umugore wateretse imisatsi y'umukara, wambaye amadarubindi n'amaherena ku gutwi kwe, yambaye ikoti ry'icyatsi n'ijipo y'umutuku, afite ikaramu, ari kwandika mu gitabo giteretse ku meza, ari mu nzu isakaje amabati, iruhande rwe hari abantu.

Umugore wicaye mu biro ku ntebe y'umukara wambaye imyenda y'iroze, imbere ye hakaba hateretse idarapo ry; igihugu cy'u Rwanda.

Umukandida Paul Kagame yambaye ishati y'umutuku, agapfukamunwa n'amadarubindi n'ingofero y'umukara, ari kwiyamamaza, ari mu modoka hejuru, inyuma ye hakaba hari abapolisi bari gukurikira iyo modoka.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo abagabo n'abagore bavanze, bicaye ku ntebe z'umukara, ndetse imbere yabo hateretse impapuro, igikombe, ndetse n'amazi ari mu ducupa tw'inyange.

Icyumba gikorerwamo inama hicayemo abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, y'inyange ndetse hari n'insakazamashusho.

Umugore wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite indangururamajwi mu kiganza cye, umugore ufite amaherena ku gutwi, ndetse n'imisatsi yateretse karemano, ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Inzu iteraniyemo abantu benshi bicaye ndetse hahagazemo n'abantu bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka kamera b'abanyamakuru bose batumbereye abantu bicaye imbere bari kuvugira mu ndangururamajwi bari kubagezaho ikiganiro runaka.

Abagabo batatu babiri bambaye amakote, undi yambaye umupira wanditseho ngo indi ntambwe, bari imbere y'imbaga nini y'abantu hivanzemo abagabo n'abagore, bari kubagezaho ubutumwa.

Abagabo bambaye imyenda y'umukara y'abapolisi ndetse inyuma yabo hari imbaga nyamwinshi ndetse ahantu bari hari n'ibyapa byinshi biriho ikimenyetso cya Efuperi ishyaka rya perezida w' u Rwanda.

Imbaga nyamwinshi yivanzemo abagabo n'abagore bamwe bambaye imipira y'umweru abandi bambaye iy'umukara abandi bambaye iy'umutuku, bafite ikirango cy'ishyaka rya perezida w'u Rwanda efuperi.

Umukandida Habineza Frank wari uri kwiyamamaza mu matora ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda ari guhoberwa n'abana benshi, imbere ye hahagaze iyindi mbaga nyamwinshi iri kumufata amafoto.

Abagabo benshi bambaye imipira irimo umweru, umutuku, ubururu, bakaba bambaye n'ingofero zivanze amabara, bakaba bari kwamamaza umukandida wo mu ishyaka rya FPR ari we perezida Paul Kagame w'u Rwanda.

Icyumba gikorerwamo inama cyicayemo abagabo n'abagore benshi bambaye bitandukanye, imbere yabo hari amacupa y'amazi, y'inyange.

Abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, bari ku murongo ugororotse bagana mu mahema y'umweru atatseho amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Idaraporo ririho amabara y'umutuku, umweru, n'ubururu ryanditseho FPR, akaba ari ishyaka rya perezida w'u rwanda paul kagame ishyaka ayoboye, ndetse rikaba ari ryo shyaka rikomeye mu rwanda.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ahagaze imbere y'imbaga y'abantu bicaye ku ntebe z'umukara, batumbereye imbere aho ahagaze bari kumva ibyo avuga, inyuma ye hari abantu bicaye babiri hahagaze n'amadarapo ndetse n'ikirango cy'igihugu.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zitatse ibitambaro by'umweru, bambaye udupira tw'amaboko magufi dusa n'icyatsi twanditseho ishyaka rya girini pati, iri ni ishyaka rihanganye n'andi mashyaka nka efuperi mu gihugu ritanga umukandida wo kwiyamamaza, iri shyaka rishinzwe kurengera ibidukikije.

Imodoka nini iri mumuhanda w'umukara ikaba ari imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo, ikaba isize amabara y'umweru umukara icyatsi n'umuhondo, ikaba ari imodoka itwara imizigo myinshi cyane.

Imodoka y'abagenzi y'umweru iri mu muhanda w'umukara, iruhande rw'iburyo hakaba hari rigori, ikaba iri kubisikana na moto ebyiri imwe iriho umugenzi, indi nta mugenzi ifite.

Imodoka ifite umwanya w'inyuma ufunguye wagenewe gutwaramo imizigo usa usize amarangi y'umweru, fite n'igice cy'imbere gisa n'umweru iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, iyi modoka ikoreshwa mu gupakurura imizigo.

Imodoka isa n'umukara ihetse imbaho ku gace kako k'inyuma gafunguye kagenewe gutwarwamo imizigo, inyuma yayo hahagaze umugabo, iyi modoka ihagaze mu muhanda wa kaburimbo usa n'umukara, impande yawo haragendwamo n'ibindi binyabiziga birimo amapikipiki.

Imodoka ifite amabara y'umweru n'umuhondo ikora akazi ko gutwara abagenzi, imbere yayo hari iyindi y'umweru irimo uturongo tw'umukara, iri mu muhanda w'umukara.

Imodoka y'igikamyo y'umweru ipakiye amatafari ya rukarakara iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Imodoka y'umweru y'abagenzi imbere yayo hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu ikaba iri muri gare ya Nyabugogo.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwihariye yanditseho yego capuzi ifite imisego yegamirwa, isa na kaki immbere iragendera mu muhanda wa kaburimbo usa n'umukara.

Imodoka ishinzwe gutwara abagenzi ibavana mu gace kamwe ibageza mu kandi. Ikaba ifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'icyatsi, ikaba irimo abagenzi benshi. Ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara

Ipikipiki igendera ku mapine atatu, isa ubururu, iri mu muhanda w'umukara, iri kubisikana n'imodoka itwara abakerarugendo nini y'icyatsi, na yo igana mu cyerekezo kibusanye n'icyo iyi pikipiki iganamo.

Imodoka iparitse y'abagenzi ya twegerane ihagaze muri gare, imbere yayo hakaba hari indi modoka nini nayo y'abagenzi y'icyatsi n'ibara ry'umukara hakaba nta muntu urimo.

Imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara ivanzemo n'irange ry'umuhondo ikaba ari imodoka ikoreshwa mu gutwara abagenzi aho bashaka, ikaba yanditseho yego uyikeneye ahamagara mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na rimwe ubundi ikagusanga aho uri, ikakugeza aho ushaka.

Imodoka ndende y'ubururu n'umweru n'umukara ishinzwe gutwara abagenzi ibavana hamwe ibajyana ahandi, ikaba ihagaze muri gare yo mu mujyi wa Kigali itegereje abagenzi ko bajyamo ubundi ikabatwara.

Igikamyo cy'umweru kiri kugendera mu muhanda w'umukara, ku ruhande bw'iburyo bwacyo hakaba hari umunyonzi wikoreye imizigo akaba yambaye imyenda ya kacye, hirya yacyo nanone ku ruhande rubusanye n'aho icyo gikamyo kiri kugana hakaba hari undi munyonzi uhetse umuntu wambaye umupira w'umweru.

Igikamyo gifite ibara ry'icyatsi gipakiye imizigo ifutseho shitingi y'umweru kiri kugenda gikata mumuhanda w'umukara.

Ipikipiki iri kugenda mu muhanda w'umukara, ifite ibara ry'umukara, ikaba ipakiye imizigo ipfunyikishijwe shitingi y'ubururu, ikaba igiye kubisikana n'igikamyo cy'umutuku cyikoreye imizigo.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, iruhande rwayo hahagaze abantu iragendera ku muhanda wa kaburimbo y'umukara, imbere yayo hari sitasiyo itangirwaho ibikomoka kuri gaze na peterori

Igikamyo cya rukururanwa gisa n'umweru, gifite igice k'inyuma giteye nk'idomoro cyangwa ikigega bipfundikiye neza, kivangirwamo isima, isima ikoreshwa mu bwubatsi mu mazu bw'imihanda ndetse n'umuhanda w'umukara gihagazeho wubakwa n'isima.

Imodoka y'abagenzi iri mu muhanda w'umukara ufatanye na ruhurura, ikaba yicayemo umushoferi n'undi muntu, ikaba ifite intebe z'umutuku.

Imodoka ya rukuruzi yikoreye amasanduku y'imizigo iri kugendera mu muhanda w'umukara urimo n'ibindi binyabiziga.

Igikamyo kinini gisa n'umutuku cyikoreye imitwaro ifunikijwe shitingi y'ubururu kikaba kiri kugendera muri kaburimbo hakaba hari n'umunyonzi imbere yacyo.

Imodoka y'umweru ihagaze, nta muntu urimo, ikaba ifite intebe z'umukara, ikaba ari imodoka ikoreshwa itwara abagenzi hirya no hino mu gihugu, ibageza aho bakeneye kugera.

Imodoka y'abagenzi isa n'ubururu yanditseho gucunga konti ni ubuntu ikaba iri mu muhanda itwaye abagenzi, hirya yayo hakaba hari ibiti birebire cyane.

Ipikipiki igendera ku maguru atatu ikaba ifite amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi iri kugenda mu muhanda w'umukara hakaba hari n'umuntu utwaye ikinyamitende yambaye agapira karimo icyatsi n'umweru n'ipantaro y'umukara.

Imodoka itwara abagenzi muburyo bwa rusange, yanditseho amagambo Ritiko iragendera ku muhanda wa kaburimbo usa n'umukara impande yaho hahagaze umugabo wikoreye imizigo yambaye inkweto zifunguye z'umuhondo.

Imodoka isa n'umweru iri mu bwoko bw'agakamyo gato ifite umwanya w'inyuma muremure wagenewe guhekwamo imizigo, iramanuka mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara impande yayo hari indi modoka ifite umwanya wo guhekamo inyuma isa n'umweru, iruhande rwayo hari umuyobozi w'ipikipiki uhetse umugenzi.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'ubururu iri kugendera mu muhanda w'umukara, inyuma y'iyomodoka hakaba hari iyindi nayo y'igikamyo ifite ibara ry'umutuku.

Imodoka yumweru nini, y'igikamyo, itwara imizigo ndetse n'ibindi bintu byinshi batwarira hamwe, iri kugendera mu muhanda w'umukara, hirya yayo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwara abagenzi.

Imodoka y'abagenzi, ndende, ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'icyatsi, iri kugendera mu muhanda w'umukara, inyuma yayo hari amapikipiki atwaye abagenzi, ndetse no ku ruhande rwayo.

Imodoka yicayemo abantu iri kugendera mumuhanda w'umukara, n'imodoka yo kwigiramo uko batwara ikinyabiziga.

Moto iri kugendera mu muhanda w'umukara ihetse umugenzi ndetse inyuma yayo hari indi moto itariho umugenzi, ikurikiwe n'imodoka y'umukara iri gukata yinjira muri uyu muhanda.

Ipikipiki itwaye umugenzi, iri kugendera mumuhanda wumukara, uciyemo ibice bibiri igice cy'iburyo, ni'cy'ibumoso, mo hagati hateyemo ibiti n'ibyatsi bitatse umuhanda

Umuhanda w'umukara urimo ipikipiki itwaye umugenzi hirya yayo hari imodoka y'umukara nayo iri kugana mucyerekezo kimwe niyi pikipiki yo mubwoko bwa benzi.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'ibikamyo isize amabara y'umutuku ikoreshwa mu gupakira imizigo minini cyangwa ibintu byinshi harimo imicanga n'amabuye, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara ndetse hirya yaho hakaba hari ipikipiki iriho umuntu umwe.

Imodoka zikoreshwa mu gutwara imizigo, zisa n'umweru, hari imwe iri inyuma, iri mu bwoko bwa toyota, ifite igice cy'inyuma gifunguye hejuru, gitwarwamo imizigo, gitwikirijwe na shitingi itwikiriye imizigo iri mu iyo modoka. Imbere yayo hari indi modoka yisumbuyeho, ifite igice cy'inyuma gifunguye, itarimo imizigo, kizengurutswe n'ibyuma.

Imodoka y'ikamyo isa umweru iri kugendera mumuhanda wumukara; ipakiye imizigo ipfunyikishijwe shitingi y'ubururu iziritseho n'imigozi kugirango umuzigo utagwa.

Umuhanda wa kaburimbo, urabisikanirwamo n'imodoka ebyiri, imwe isa n'umweru iri kuzamuka, indi isa n'umutuku iri kumanuka. Imodoka zikoreshwa mu ngendo za kure cyangwa zigafasha gutwara abantu nk'igihe imvura yaguye.

Imodoka ya kwasiteri itwara abagenzi muburyo bwa rusange iri kwaka amatara y'inyuma irikugendera ku muhanda wa kaburimbo irasa n'umweru yicayemo abagenzi.

Imodoka itwara ibikoresho by'ubwubatsi, birimo amabuye ndetse n'umucanga, isa n'umutuku, izwi ku ihoho, iragendera mu muhanda wa kaburimbi usa n'umukara, impande yaho harazamuka umuyobozi w'ipikipiki uhetse umugenzi.

Ipikipiki yagenewe gutwara abagenzi, iri kugendera mu muhanda w'umukara, uyu nguyu uyitwaye akaba yambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'umuhondo, imbere ye hakaba hari iyindi pikipiki nayo iri muri uwo muhanda igiye kwinjira ahantu mu muhanda w'umukara haba hari amarangi y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira.

Ni joro amatara araka mu gahanda kegereye inzira nyabagendwa kahariwe kugendwamo n'abanyamaguru haratambukamo abanyamaguru, impande yaho hari abanyonzi bafite amagare. Abanyonzi bakoresha amagare ariho imisego yicarwaho n'abagenzi.

Igikamyo gifite igice cy'imbere gisa n'umweru, naho igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunze neza itwarwamo ibicuruzwa gisa n'ubururu, kiri kugendera ku muhanda w'umukara.

Imodoka nini ifite ibara ry'umutuku yo mu bwoko bw'igikamyo itwara imizigo cyangwag se imicanga n'amabuye, hakaba harimo imizigo ifunikishijwe shitingi y'umukara, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara ku ruhande rw'iburyo rwayo hari rigori cyangwa se ruhurura.

Igikamyo gifite ibara ry'umweru harimo n'ubururu, kiri kugendera mu muhanda w'umukara gipakiye imizigo minini myinshi cyane, ipfukishijwe shitingi z'ubururu ikaba iziritseho n'imikoba kugira ngo imizigo itagwa.

Imodoka ndende y'igikamyo iri kugendera mu muhanda w'umukara, ihagazemo umugabo wambaye umupira w'umuhondo, n'ingofero, n'ipantaro y'ubururu.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ikora akazi ko gutwara imizigo iri kugendera mu muhanda w'umukara ikaba isize irangi ry'umutuku ikaba ibisikana n'indi modoka ifite imyanya ine nayo iri kugana mu kindi cyerekezo mu muhanda w'umukara.

Ipikipiki ihagaze isa ifite ibara ry'ubururu ikaba ari ipikipiki igendera ku mapine atatu, ipikipiki ikoreshwa mu gutwara imizigo myinshi igihe byabaye ngombwa ikaba ihagaze imbere yayo hari indi pikipiki inyuma yayo hari imodoka.

Abantu bari mu muhanda uzwi nkaho utagendwamo imodoka, ukikijwe n'amazu maremare cyane ageretse, akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda uzwi nkaho udacibwamo n'imodoka ukikijwe n'inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye nka makuza ndetse hakaba habamo n'ifatabuguzi ry'ubuntu .

Mu mujyi wa Kigali, ahantu hazwi nk'aho hadaca imodoka, harimo umuhanda waremewe abanyamaguru gusa, hakaba ari umuhanda ukikijwe n'amazu maremare, ageretse inshuro zirenga icumi, hakaba hanacururizwamo imyenda ya gakondo, ibitenge, ndetse n'ibindi.

Ikibuga kirimo ibyatsi gikoreshwa mu gukinirwamo umupira w'amaguru, giherereye muri mu kigo cya Kicukiro ahakunze kubera imikino ibikinirwamo n'amakipe yo mu Rwanda, hakaza no kureberamo abafana bayo.

Ikibuga gishushanyije hifashishijwe imirongo y'umweru, gifite uduti dushinze tubiri tumanitseho urushundura gikinirwamo umukino wa tennis.

Icyapa cyerekana ko imodoka itagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, kandi yuko imbere hari imfatamashusho yerekana umuvuduko ikinyabiziga kiri kugenderaho.

Abantu batatu bambaye udusengeri tw'icyatsi cyibisi; bari kumanika icyapa cyerekana ko umuvuduko urenze mirongo itandatu utemewe, cyerekana yuko hari n'igikoresho gifata amashusho y'ibinyabiziga imbere.

Umugabo wambaye ipantaro yumukara afite ni'gikapu cy'umukara yambaye umupira w'icyatsi ahahagaze ku kayira k'abanyamaguru, hejuru ye hari icyapa cyanditseho ngo murakaza neza muri repubulika y'u rwanda mu karere ka rusizi.

Umuhanda urombereje w'igikara ya kaburimbo haruguru yaho hari icyapa cyanditsemo ko umuntu ageze ku karere ka muhanga ruguru yacyo hahagaze abantu benshi hepfo yaho hagaze abandi bantu ndetse hateye n'ibiti byinshi.

Icyapa gikozwe mu ishusho y'uruziga, kizengurutswe n'akabara gasa n'umutuku, ubuso bw'umweru, cyandikishijwemo umubare mirongo itandatu, mu ibara ry'umukara. Iki cyapa gishyirwa ku muhanda, kikerekana umuvuduko ukwiye kugenderwaho n'abayobozi b'ibinyabiziga.

Icyapa gikozwe mu buryo bw'ibimenyetso bikoresha urumuri kigaragaza ko abagenzi cyangwa ibinyabiziga byemerewe kwambuka. Iki cyapa gishyirwa ku muhanda kikaba gikoresha urumuri mu kwerekana ibimenyetso bifite aho bihuriye no kuba uruhushya ruhawe umugenzi w'amaguru cyangwa utwaye ikinyabiziga kuba yakwambuka mbere.

Umuzenguruko wa mpande eshatu usa n'umutuku ubuso bw'umweru n'ikimenyetso cy'uruziga cyerekana kuzenguraka igihe uca mu umuhanda.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ndetse n'ubuso bw'ubururu hacamo umurongo w'umutuku, gisobanuye yuko aha hantu hatari inzira.

Impande y'inzira nyabagendwa hari icyapa gishushanyijeho imodoka itwara abagenzi, nini, itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, gifite ubuso busa n'ubururu, cyanditsemo ijambo riri mu magambo atsiritse, rya pa. Iki cyapa cyerekana aho imodoka ziparika.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ndetse n'ubuso bw'umweru buhagazemo umugabo afite igiti arimo kuyora ibitaka. kikaba ari icyapa cyerekana ko imbere barimo gukora umuhanda cyangwa barimo kubaka.

Umuhanda utari munini urimo kugenderamo ibinyabiziga nka moto n'imodoka harimo n'abanyamaguru benshi uherereye mugiporoso.

Iruhande rw'inzu y'umuturirwa ifite ibyapa bya banki ya ayi endemu banki, ndetse na beka hari icyapa gishinze iruhande rw'umuhanda, gikoze mu ishusho y'umuzenguruko, gifite ubuso bw'umweru, cyanditsemo ijambo pa ricishijemo akarongo, kerekana ko aho hantu ibinyabiziga bitemerewe kuparika.

Inzu ndende, igeretse, ifite amabara y'umweru n'umukara, imbere yayo hakaba haca insinga z'amashanyarazi, ndende.

Inzu zigezweho ebyiri, eshatu, zigeretse inshuro imwe, ziri mu bipangu byiza, imbere yabyo hakaba hari pasiparumu ifatanye n'umuhanda w'igitaka.

Imodoka ihagaze yo mu bwoko bwa Toyota ifite ibara ry'umukara iri yonyine.

Inzu ndende igeretse inshuro zirenga icumi yubakishijwe ibirahure by'ubururu ndetse isize namarange y'umweru hejuru handitseho zigama.

Inzu iri mu rupangu rusa n'igitaka nayo igeretse, ifite ibara ry'igitaka isize irange ry'umweru hejuru.

Inzu nyinshi nshyashya zo guturamo harimo izigeretse n'izitageretse zikikijwe n'ibiti byinshi.

Intebe ndetse n'ameza afite ibara ry'igitaka biri imbere aho bacururiza imbere y'inzu bacururizamo ibiyobyabwenge inyuma y'izo ntebe hateyemo ibyatsi.

Inzu nini cyane igeretse inshuro eshatu, imanitseho ibyapa bitandukanye by'ibicuruzwa na serivisi zitandukanye, imbere yayo hahagaze imodoka nyinshi zaje gukora cyangwa kugura ibicuruzwa.

Ikibuga aho abana batoya bari gukinira, bambaye amakabutura y'umukara n'imipira y'umuhondo, bari mu kibuga ahantu hateye ubwatsi, bari ku bikinisho byabo.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye ndetse n'ibyatsi by'ubwoko bwinshi harimo ibiti birebire cyane bifite amashami y'icyatsi ndetse binanutse.

Inzu igeretse inshuro eshatu ikaba isize amarangi asa n'ivu, ikaba yitwa yusa, imbere yayo hakaba haparitse imodoka z'umukara zo mu bwoko butandukanye.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara isize amarangi y'umweru ndetse n'umukara, ikaba ari inzu igeretse inshuro enye imbere yayo hakaba ari umuhanda w'umukara uri kugenderamo abanyamaguru, ndetse uhagazemo n'amapikipiki.

Inzu ndende cyane igeretse yubatswe n'ibirahure, iriho icyapa cy'ikiyobyabwenge, imbere yayo haparitse moto, n'imodoka y'umukara.

Imodoka y'umweru ifunguye umuryango winyuma, ihagaze imbere yinzu nziza igeretse isize amabara y'umweru ikaba ifite ibirahure by'umukara n'imiryango y'umukara.

Inzu igeretse inshuro ebyiri ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru ikaba imbere yayo haparitse imodoka zitandukanye harimo iz'umutuku n'umukara ndetse n'umweru.

Mu muhanda w'umukara rwagati ahaciye imirongo y'umweru, hakaba herekana aho umunyamaguru igihe ashatse kwambuka uruhande rumwe rw'umuhanda ajya mu rundi aho agomba guca. Hanyuma ahangaha iyo ibinyabiziga bihahageze hari umunyamaguru, arabanza agatambuka nabyo bigahita bikurikizaho.

Umuhanda w'umukara umanuka cyane, uramanukwamo n'umuyobozi w'ipikipiki, utwaye ipikipiki isa n'umutuku, ageze ku gice k'inzira nyabagendwa giciyemo imirongo y'umweruru igabanya umuhanda mu bugari bwawo, iki gice cyambukirwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umweru wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka ifite igice cy'inyuma gifunguye gikoreshwa mu gutwara imizigo, impande yayo mu wundi muhanda nawo usa n'umukara haragendwamo n'imodoka ndende itwara abantu mu buryo bwa rusange isa n'umuhondo.

Abamotari bahagaze mu muhanda w'umukara, imbere y'imirongo y'umweru igaragaza yuko abanyamaguru bemerewe kwambuka.

Ihuriro ry'umuhanda riri kugenderamo imodoka y'umukara, inyuma yayo hari amapikipiki atwaye abagenzi harimo n'izindi modoka z'umukara ndetse niy'abagenzi isa n'umuhondo n'umweru.

Agahanda k'abanyamaguru gashinzemo icyapa gisobanura yuko aha hantu imodoka zitemerewe kuhahagarara, gafatanye n'umuhanda w'umukara uri gucamo ibindi binyabiziga nk'imodoka, amapikipiki n'ibikamyo.

Ikiraro gifite inkingi zikomeye cyane, gishinze impande cy'umuhanda wo hasi, hejuru y'inkingi haranyurwaho n'umuhanda wo hejuru, ufite ibyuma birinda ibinyabiziga kuba byarenga uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara, ufite ikoni ritandukanya imihanda, harakatirwamo n'imodoka isa n'umweru, ifite agace k'inyuma gahetswemo imizigo itwikirijwe na shitingi y'umweru.

Umuhanda w'umukara uciyemo uturongo tw'umuhondo dutandukanye ndetse ku ruhande ruhera hariho umurongo w'umweru ukomeza, mo hagati hari kugenderamo imodoka y'umutuku ifite n'ibara ry'umukara hejuru.

Ikiraro gica hejuru y'umuhanda w'umukara, na cyo gicaho ibinyabiziga; nk'ibikamyo, moto, n'imodoka, munsi yacyo na ho haca ibinyabiziga ndetse n'abantu, harimo ibinyabiziga nka moto n'imodoka, kikaba giherereye ku Kinamba.

Ikiraro, ikiraro gica hejuru y'undi muhanda, munsi yacyo hakaba hari gucamo moto, ndetse n'abanyamaguru benshi.

Mu muhanda rwagati ahaciye imirongo y'umweru igaragaza aho umunyamaguru agomba kwambukira igihe ashatse kuva ku gice kimwe cy'umuhanda agera mu kindi, imodoka zitamuhungabanyije.

Umuhanda w'umukara uhura n'indi mihanda, imbere yawo hakaba hari ishyamba n'inyuma y'ishyamba hakaba hari amazu maremare ageretse.

Igikamyo kikoreye imizigo gisa n'ubururu gikikijwe n'ibiti byinshi, kikaba kiri kugendera mu muhanda w'umukara utarimo ibindi binyabiziga.

Imodoka ifite ibara ry'ubururu, umweru n'umukara, ikaba arimo ndende itwara abagenzi bakeneye kujya ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali, ikaba iri mu muhanda w'umukara iri guca munsi y'kiraro cyo hejuru.

Igikamyo gisa n'umweru gitwikirije shitingi hejuru kiragendera mu muhanda w'umukara umuhanda w'umukara ni umuhanda ukomeye, cyane wubatse ku buryo bugezweho ku buryo utarekamo amazi.

Kicukiro munsi y'ikiraro gica hejuru y'imihanda ahaparitse abamotari benshi ndetse hari guca n'abanyamaguru benshi baca munsi y'icyo kiraro.

Abagore n'abana babo bicaye ku ntebe z'urubaho ndende. Bafite udukayi dusa n'umutuku turimo impapuro, bategerereje ahantu hamwe.

Ihuriro ry'umuhanda ririmo moto ndetse n'ibikamyo bigera kuri bine byikoreye imizigo.

Mu muhanda w'umukara, aho imodoka zihagarara z'abagenzi, kugira ngo abagenzi babashe kuvamo, bagere aho bagiye, hakaba hari n'umwanya umugenzi yicaramo igihe ategereje imodoka, ku ruhande hakaba harimo ibindi binyabiziga, amapikipiki atwaye abagenzi, ndetse n'imodoka.

Ikiraro giherereye kicukiro gica hejuru y'undi muhanda w'umukara, gicamo ibinyabiziga nk'imodoka amapikipiki ndetse n'ibikamyo.

Ikinyamitende kicayeho umunyonzi, akaba yegereye ikiraro giherereye Kicukiro, gica hejuru y'indi mihanda munsi yacyo, munsi yacyo haca ibinyabiziga bindi.

Umuhanda w'umukara uparitsemo imodoka nyinshi zo mu bwoko bw'ibikamyo zipakiye imizigo myinshi zihagaze ziri ku murongo, uyu muhanda ukaba uganwa ku kigo cy'imisoro n'amahoro ahitwa Majerwa.

Umuhanda w'umukara uri kugendwamo n'ibinyabiziga by'mapikipiki, atwaye abagenzi bose bambaye ingofero zigenewe kurinda abicaye ku bininyabiziga, zisa n'umutuku zikomeye kandi zifite n'ibirahure imbere.